Ubuvuzi: ubuvuzi bwo kunyuza umuntu mucuma bita ecogarafi ni ubuvuzi buteye imbere, umenya icyo umuntu arwaye ukamenya uburyo uri bumuvure, bikorerwa ahanini muri za hopitali nkuru.

Farumasi ziri henshi mu gihugu, farumasi zicuruza imiti imiti yifashishwa kwa muganga, akenshi iyo umurwayi apimwe hari igihe kwa muganga habura umuti bakamwohereza muri farumasi, kuko iba yaragenewe kuyicuruza. Hakaba hari farumasi zikorana n'ubwishingizi bwa Rama, ndetse n'ubwishingizi bwa mituweli na ememayi.

Icyatsi cyitwa igiko hamwe bacyita umurinzi, bagiteraga ku ruzitiro no ku bikingi by'amarembo kuko byarindaga abazimu, akenshi ntigikunda kuboneka ubu kigenda gicika, ku buryo gishobora kuba cyavamo n'imiti inyuranye.

Icyatsi cyitwa umuravumba ni icyatsi kivura indwara zinyuranye, indwara zirimo ibicurane ndetse kikavura n'umuriro, mbese bacyitako yaba ari antibiyotike gakondo. Icyatsi cy'umuravumba kirakoreshwa cyane, cyane cyane iyo abantu batabonye uburyo bwo guhita bihutira kwa muganga.

Iki n'ikimera, ikimera gitanga imiti gakondo, iyi miti ikaba ivurwa igihe cyose uwivuza atabonye amafaranga amujyana kwa muganga, ishobora kuvura indwara zinyuranye; ibicurane, inkorora, ndetse n'ibisebe igihe byabaye ngombwa.

Imiti myinshi yose ituruka mu bimera, ibimera hari ibikoreshwa bibanje guhindurwa, ariko hari n'ibikoreshwa bikiri umwimerere, bityo bikatuvura indwara zinyuranye cyane cyane ku bana ndetse n'abantu bakuru, nk igihe babuze uburyo bwo kwivuza mu buryo bugezweho.

Icyatsi cyitwa kapusine ni icyatsi kigira imiti itandukanye kivura inkorora, kikavura ibicurane, kikavura izindi ndwara nyinshi. Gishobora gutegurwa mu mazi ashyushye gitetse cyangwa se kikaribwa no mu biribwa.